Aho ducururizaga ibyo kunywa no kujya tuba tugomba kuhagirira isuku, nk'aho dutekaga inyama tuba tugomba kuba twaziteguye neza, kugira ngo abaraza kuzigura basange zimeze neza kandi zahiye, kugira ngo zitabatera ubugwayi, maze na bo bakaduha amafaranga tukagifashishaga mu bikogwa bidutezaga imbere.

Kugira inyubako zimeze neza zakiraga abaje kunyweramo ndetse no kujya, ndetse hakaba hari n'abagomba kubibegereza kugira ngo bishime kandi baganire, maze abubatse ibyo bikogwa nabo babone amafaranga go kwifashisha bakora ibindi bibatezaga imbere.

Gukora ubucuruzi ni byiza nko gukora ubucuruzi bwo gucuruza akabari aho haba harimo inzoga zitandukanye, abakiriya baza bazishaka maze tukabaha serivisi yazo tubaha icyo kunywa n'icyo kurya maze n'abo bagatanga amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa aho tuba ducururiza ahantu heza hafite isuku, ndetse n'ibyo ducuruza twarabipanze mu nzu neza ku buryo bitakangirika.

Gukora ubucuruzi ni ingirakamaro nko gukora ubucuruzi bwa kabare, aho haba harimo inzoga zitandukanye abantu baza bakazinywa bakaduha amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa, nabo bakanezerwa, kandi tukabicururiza ahantu hubatse neza ku buryo zitakwangirika cyangwa ngo zimeneke.

Ahantu ho gufatira ico kurya n'ico kunwa hagomba kuba hubatse neza harimo: amatara ibirahure bigaragara neza ,kandi hagerwa n'urumuri, ndetse harimo n'intebe abakiriya bazaga bakicaramo tukabahereza ibyo bifuza gufata.

Ubukorikori ni imwe mu mirimo idufitiye akamaro cane kuko tubasha gukoramwo intebe, utubati bikagurishwa kandi biba byiza cane iyo ubukorikori bukorewe ahantu heza hari umuriro w'amashanyarazi gatanga urumuri neza kandi hasakaye neza kugira ngo imirimo yaho ibashe kugenda neza.

Kubaka inzu z'amagorofa ni byiza cyane, nk'iyo twubaka inzu z'ubucuruzi aho tuzubakisha ibyuma bikomeye, zamara kuzura tukazisiga amarangi ndetse tugashyiraho n'ibyapa bigaragaza ibyo dukora, kugira ngo abaje batugana bahamenye bitabagoye, kandi biba byiza cyane iyo ducururiza ku muhanda aho bagera byihuse.

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro tugomba kuzubaka neza tukazisakara tuzubakisha n'amatafari gahiye, tukazisiga n'amarangi tugashyiraho n'ibyapa bigaragazaga ibyo dukoraga, bityo abaje batugana bikaborohera kumenya ibyo dukoraga kandi tukahatera n'ibiti bitumaga hazaga akayaga keza.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro aho tuzubaka zifite inkingi zikomeye, ndetse tukazisiga n'amarangi kandi tugashyiraho n'ibyapa bigaragaza ibintu dukora, ndetse biba byiza iyo ari ku muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga biva ahantu hamwe bijya ahandi bitwaye abagenzi batandukanye, maze bakahagera bitabagoye kuko haba ari ku muhanda.

Ubucuruzi ni bwiza, nko gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatelefone, aho abayakeneye baza kuyagura, tuyacururiza mu nzu yubatse neza, aho atagerwaho n'izuba cyangwa se imvura kugira ngo bitangirika.

Kubaka inyubako zikomeye zubacishije ibyuma, amabuye, sima ni byiza aho iyo zirangiye tuzicururizagamo tukanashiraho icapa kigaragazaga ibintu dukoreraga aho hantu kugira ngo abazaza batugane bazasobanukirwe byihuse maze batugurire twiteze imbere.

Inzu y'ubucuruzi aho iba igomba kubakwa ifite inkingi zikomeye, ndetse ifite inzugi zikokozwe mu byuma, amadirisha g'ibirahuri, ndetse igashigwaho n'amakaro kugira ngo abayikoreramo bazabe bakorera ahantu heza kandi hafite isuku.

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro, aho tugomba kuzubaka neza tukazisiga amarangi, zifite inkingi zikomeye n'inzugi zisize amarangi meza, tugashyira imbere n'amakaro atuma zigaragara neza akikijwe n'ibiti bizana akayaga n'imbuga yo guhagararamo abantu baje kutugurira kandi tugashyiramo n'amadirishya afite ibirahuri byinjiza urumuri imbere

Ubucuruzi ni bwiza, nko gucururiza mu nzu zakiraga ba mukerarugendo canga se abakiriya baje baje kunywa ndetse no kujya, aho biba bigaragazwa n'icapa kibayobora ndetse cerekana ibyo dukoraga. Kandi hakaba hubatswe neza hari umuriro amatara kugira ngo habone neza.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro, aho dushyiraho ubusitani burimo indabyo zituma hagaragara neza kandi tugashyiraho icyapa kigaragaza ibintu bikorerwa aho hantu ,bityo abaje batugana bagasobanukirwa bitabagoye, tukabaha serivisi bashaka baje batugana.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro nko kuzubaka mu buryo bw'amagorofa kuko bituma zitwara ubutaka butoya; kandi hakaba ari ku muhanda kuhagera byoroshye. Abaturage baturuka imihanda yose baza kuguriramo, bityo abacururizamo bakabona amafaranga bifashisha bakora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza, hejuru hari amakaro gatumaga amazi gatinjira, zisakaje amabati zisize amarangi zifite imiryango minini harimo n'ibirahure, bitumaga hageramo urumuri rwinshi. Hakaba hariho n'ahantu ho guparika ibinyabiziga, kugira ngo abaje baje kugura babone aho babiparika, ndetse n'intebe y'abashitsi iyo baje kugura.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza, isize amarangi, kandi isakaye neza, ifite ibyapa bigaragazaga ibyo dukoraga, nk'aho kurira ndetse no kunywera, kandi ikaba izitiye, ifite n'urugi rw'aho binjirira, hariho umucaca n'indabo, zitumaga haza akayaga keza, ndetse n'amarembo manini, ganyugwagamo n'imodoka, biri kwinjira aho ngaho dukoreraga.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi, yubatse neza, izitije ibyuma kandi isakaje amabati ndetse isize n'amarangi, aho igaragazwaga n'icapa dushiraga ku irembo, kigaragazaga ibyo dukoraga abantu bakaza batugana.

Gucuruza ni ingirakamaro nko gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi nk'indobo zibagamo amarangi n'ibikarito, aho tuba ducururiza mu nzu nini imeze neza ifite amakaro ndetse n'imiryango minini. Aho dushyira ibicuruzwa ahagaragara maze abaje kubigura bakabibona bitabagoye.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi butandukanye， aho yubatswe neza，ifite amatara ndetse n'inkingi zikomeye，irimo inzugi zisize amarangi g’ubururu， ndetse n'ibirahuri，aho imbere hariho n’amakaro gatumaga igaragara neza， ndetse n'akazu gakorerwamo ubucuruzi bw’amayinite，no kohereza amafaranga.

Inganda ntoya ni ingirakamaro mu gihugu cyacu, aho tugomba kuzubaka mu buryo bw'amagorofa kugira ngo zigabanye ubutaka zitwara bari ku zubaka. Zisakaye neza zisize na marangi noneho n'ibirango bigaragaza ibyo dukora kandi tukazizitira neza kugira ngo abantu batazaza bakazisagarira ndetse tugashyiraho n'umucaca gutuma haza impumuro nziza aho hantu ruri.

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro aho tugomba kubukora mu nzu yubatse neza ifite idirishya , urugi bimeze neza bisize n'amarangi aho abaguzi baza kutugurira ibyo ducuruza maze tukiteza imbere dukora ibindi bikorwa muri ayo mafaranga baba baduhaye mu byo ducuruza.

Inzu y'ubucuruzi aho bacururizagamo serivisi zitandukanye z'irembo, ndetse n'aho baguriraga amainite ndetse no kohereza amafaranga, bakoresheje telefone aho hagaragazwaga n'icapa kiba kigaragaza ibyo bakoraga, ndetse na serivisi batangaga.

Ahantu dutembereraga tugiye kurya no kunywa hari inzu yubatse neza ifite amakaro, ibyapa biyobora abantu, ibyuma, amavaze arimo indabo azana akuka keza ndetse n'ibiti bizanaga umuyaga ndetse n'umwuka mwiza duhumeka.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza matora bararaho, imikeka, imisego, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu nzu kugira ngo ababikeneye baze kubigura, maze baduhe amafaranga aduteza imbere, nabo bajye kuryama neza bajye basinzira neza, kubera ko baguze ibikoresho byiza.

Kubaka amazu meza kandi gari ku muhanda ni ingirakamaro, aho dushyiragaho ibyapa bigaragazaga ibyo dukoraga kugira ngo abaje batugana bamenye ibintu bikorerwaga aho ngaho, aho dushyiragaho uruzitiro kugira ngo abasambo batazahinjira, kandi tugateraho ibiti bitumaga haza akayaga keza, ndetse n'insinga zizanaga amashanyarazi kugira ngo nijoro haje harabona.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza amazi ,ubutumire bahaga abantu bafite amakwe ndetse no gucuruza amayinite aho abagakeneye bazaga ukagabaha batabanje gusiragira ahantu henshi hatandukanye.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza ibikoresho byifashishwa mu muziki nk'ingoma, amabafule, amaradiyo ,aho tubicururiza ahantu haba hagaragara neza hari n'intebe ituma abantu baje batugana bicaraho, kandi tukabicururiza mu nzu zubatse neza bituma bitangirika.

Ubucuruzi ni bwiza cane nko gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Amabati, amaferabeto, amatiyo, ibikoresho basudiragamo inzugi, amadirisha, aho tubaga dufite imiryango minini bitumaga ibikoresho bigaragara, maze abaje kubigura bakabibona bitabagoye, bakaduteza imbere maze tukiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zidufashaga kubona ibicuruzwa byihuse, kandi tugatega nk'ibinyabiziga nk'amagare kugira ngo tuhagere vuba. Tukahatera n'ibiti nk'indabo kugira bizane umwuka mwiza. Tukahasanga n'abacuruzi b'amayinite, kandi hakaba hari n'umuriro w'amashanyarazi gadufashaga gucana bumaze kwira.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza amasabune, aho abaza kuyagura bayifashisha bari gufura imyenda yabo cyangwa gukora indi suku itandukanye. Ndetse amafaranga baduha tuyifashisha turi gukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Kubaka ahantu neza hakorerwa ubucuruzi nkahantu imodoka zizana ibicuruzwa zibivanye ku birangura, aho hagomba kuba hazitiriye ndetse hafite n'urugi aho zinjirira, ndetse n'imbuga zihagararamo iyo zihahagaze, kugira ngo babone uko bakuramo ibintu zizanye cyangwa se kugira ngo babone uko bapakira ibyo bicuruzwa.

Inzu bacururizagamo imiti z'amatungo atandukanye, aho abavuzi b'amatungo bazaga kuhagurira izo miti, bakagenda bakazivurisha amatungo gamwe na gamwe gagwaye.

Inyubako zubatse neza zitumaga tubona abakiriya, aho bazaga baje kubona ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'aho kurara. Aho zibaga zizitiye neza kandi zisakaye neza, aho zibaga zigaragazwa n'ibyapa dushiraga ku marembo, bigaragazaga ibintu dukoraga.

Ubucuruzi ni bwiza iyo tubukorera mu nzu zubatse neza, zifite inkingi zikomeye, inzugi zifite imiryango minini, amadirishya afite ibirahuri kandi zisize amarangi. Aho dushyiraho n'icyapa kigaragaza ibyo dukora, abantu bakaza batugana tukabakira neza, hari n'intebe bicaraho, bakagubwa neza, ndetse n'indabo zizana akayaga keza, kandi ikaba iri ku muhanda kuhagera byoroshye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza akabari, aho abantu baza kunwera aho dushyiraho icyapa kigaragaza ibyo dukora, maze na bo bakaza batugana bitabagoye, tukabaha serivisi zibashimishije.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza imyenda zitandukanye, inkweto ndetse n'ibitenge, aho abacuruzi babibunzaga bakabigurirwa n'ababikeneye kugira ngo babashe kubona ku mafaranga gabafashaga kwiteza imbere.

Inzu icururizwagamo ibintu bitandukanye nk'akabari ndetse n'ibyo kujya, aho iba igaragazwa n'icapa kigaragazaga ibyo bakoraga kandi ikaba isize amarangi ndetse isakaye neza ku bujyo abayijagamo bumvaga batekanye.

Mu mahoteli gamwe na gamwe nka gihana iwacu, abantu bamwe bakunda kuhasohokera, bagiye kuharira no kuhanywera cyangwa se gutembera ,kubera ko habahubatse neza kandi bitegeye ahantu hanini kandi hagaragara amahumbezi ,kubera ko habagayo indabo.

Hoteli ni ingirakamaro kuko tuzitembereragamo tukaja gufatamo ico kurya icyo kunwa, ndetse tukanaharara, aho bigaragazwaga n'icapa kibaga kiri ku muhanda aho binjiriraga, kandi cerekanaga n'ibikoregwaga aho hantu.

Inzu zikoregwagamo ubucuruzi butandukanye nk'izakiraga abashitsi, zigomba kuba zubatse neza zizitiye hari n'indabo zitumaga haza akayaga keza, tugashiraho n'icapa kigaragazaga ibyo dukoraga kugira ngo abaje batugana bitabagora, kandi tugashiraho n'irembo binjiriragamo kuko tubaga twarubatse ku muhanda, maze kuhagera ntibibagore.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro ziba zifite inkingi zikomeye n'amakaro imbere yatuma zigaragara neza ndetse n'imiryango migari ituma abantu baje kugura ibyo ducuruza, babibona biboroheye maze bakaduha amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Kubaka inzu nini tugomba kubamo zifite amabati g'umukara zisize n'amarangi, imbere tugashiraho n'inzu y'ubucuruzi hariho n'indabo zitumaga hagaragara neza, ndetse n'amatara gaboneshaga iyo bwije. Gakaba gacanishwa n'umuriro gw'amashanyarazi gunyuraga mu nsinga ziba zihanyuze, kandi bikaba byiza iyo ziri ku muhanda aho abantu banyuraga baje batugana.

Ubucuruzi ni inkingi iterambere nko gucuruza inkweto ni ingirakamaro, kuko abazikeneye bazaga kuzigura kandi tuzicururiza mu bikoresho byubatse neza, kandi bikaba byiza iyo ari nko ku muhanda kugira ngo abaje batugana bi bahagere byoroshye.

Kugira inyubako z'ubucuruzi zubatse neza ni ingirakamaro cane cane iyo zubatse mu buryo bw'amagorofa kuko bitumaga tubona ahantu heza dukoreraga kandi hakagaragazwa n'ibyapa bigaragaza ibyo dukoraga ndetse hakaba hari n'aho duparikaga ibinyabiziga byacu kugira ngo abaje kutugura babone aho baparika.

Amazu g'ubucuruzi gubatse ku muhanda. Gamwe gafite amarangi g'umutuku agandi gafite amakaro. Ku muhanda ga hakaba hari n'amatara gatumaga habona iyo bwije, gakaba gakoreshwaga n'isinga z'amashanyarazi zihanyuze, ndetse hakaba n'abanyonzi bahahagararaga bagiye kugurira mw'ago mazu g'ubucuruzi.

Kugira inyubako zubatse neza ni ingirakamaro kugira ngo abantu bazaga kuhashakira serivisi bazibone bitabagoye, aho dushiragaho icapa kigaragazaga ibyo dukoraga, kandi hakaba hazitiye neza kugira ngo abajura batazaza kutwiba, kandi hakaba hari n'ibiti bitumaga haza akayaga keza, ndetse hanubatse ku muhanda kugira ngo kuzahagera byorohe.

Ubucuruzi ni bwiza nko gukora ubucuruzi bujyanye n'ibyo kunywa ndetse no kurya, aho tubaga dufite icyuma dushiragamo icyuma gikonjesha ibintu tunywaga, aho abazaga bashaka ibikonje babidusabaga tukabibaha twifashije ca cuma kibikonjeshaga gikoreshwaga n'umuririro.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro aho ini kuba zifite inkingi zikomeye, zifite n'imiryango myiza kandi migari ndetse zisize n'amarangi, aho haba hari n'intebe abaje kugura bicaraho kandi ibyo baguze baduha amafaranga twifashisha twiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Ni byiza gukora ubucuruzi nko gucuruza za matera，aho abazikeneye baza kuzigura， kuko tuba twazisize imbere y'inzu y'ubucuruzi bwacu，kandi hakaba hari n'icyapa kigaragaza ibyo ducuruza，nabo bakazijyana iwabo，bakajya baziraraho， bakaduha amafaranga twifashisha， turi gukora ibindi bikorwa bitandukanye biduteza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza nk'aho abacuruzi bacuruzaga ibiribwa bitandukanye nk'ibirayi, inyanya, ibitoki, amakara, aho babishiraga mu mifuka kugira ngo bitangirika, ibindi bakabitwikiza imitaka, kugira ngo bitagwiramo imvura, canga se izuba rikavaho ari jyinshi.

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro aho ziba zubatse zisakaye neza, imbere hariho amakaro gatumaga amazi gatinjiramo hari umuryango munini utumaga abantu baje kugura babona ibyo ducuruzaga bitabagoye, kandi bibaga byiza iyo ari ku muhanda aho bageraga byihuse n'ahantu ho guhagarara baje kugurira ibyo ducuruzaga.

Ubucuruzi bwibanda ku bikoresho byo mu rugo, amasafuriya batekamo, indobo bakarabiramo, imikoropesho bakoropesha, amashuka n'ibibirigiti bararamo, amashakoshi y'abadamu. Kandi bicururizwa ahantu hasakaje amabati kandi hazitiye n'urukuta, ndetse n'icyapa ndetse n'inzu yubatse neza isize n'amarangi.

Ubucuruzi ni inkingi y'iterambere aho tugomba gucuruza ibintu abaturage bakeneraga kandi tugashyiraho ibyapa bigaragazaga ibintu ducuruzaga, kugira ngo abantu bazaza batugana bazabone ibyo tucuruzaga bitabagoye.

Kubaka inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro, aho zigomba kuba zizitiye neza kandi harimo ibiti bituma haza akayaga keza, ndetse tugashyiraho n'icyapa kigaragaza ibikorerwa aho hantu, bityo abaje batugana bagasobanukirwa byoroshye.

Ubucuruzi ni inkingi y'iterambere aho tugomba gucururiza mu nzu zisa neza, zisize amarangi zifite inzugi, harimo ibirahuri ndetse hariho n'ibirango bigaragazaga ibintu ducuruzaga kugira ngo abazaza kubigura batazayoba.

Ubucuruzi ni ingirakamaro. Nko gucuruza ubunyobwa bukaranze, amabiswi, amabombo, aho tubishiraga ku gakoko tugatereka hejuru kandi tugatereka ku muhanda kugira ngo abagendaga mu muhanda baze batugurire byoroshe, maze tukanabitwikira kugira ngo izuba ritabivira cyane cyangwa se hakagwamo imvura nyinshi bikangirika.

Kuririmba ni igikorwa cyiza kandi gituma twunguka inshuti zitandukanye, aho amakorari yambaye impuzankano zisa. Amajipo y'umukora n'amakoti y'umweru. Bahuriraga hamwe bakamurika indirimbo bakoze, bifashishije n'ibikoresho bya muzika bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, kandi bahagaze mu kibuga kimeze neza, kiratuma bagaragaza izo mpano zabo neza.

Kubaka ibikorwa remezo nka sitade ni inkingi y'iterambere, aho abaturage baturutse imihanda itandukanye baba mu makoperative bahurira hamwe, bakamurika ibikorwa bakora bafite n'ibirango bibigaragaza, maze abashaka kubagana nabo bakabasanga kugira ngo bakorere hamwe, bakomeze bazamure iterambere ryabo.

Gukorera hamwe ni ingirakamaro aho nk'abagore dushyiraga hamwe tugakora koperative kugira ngo izaduteze imbere tugakora n'ubukangurambaga bugaragazaga ibintu dukoraga kugira ngo abaratwishimira bazatugane kandi tukabikorera mu muhanda gumeze neza aho abantu bose baratubona kandi badushagaye ndetse hanateye ibiti biri gutuma tubona akayaga keza.

Inzu ni nziza, nk'aho zimwe zakiraga abantu bazaga baje kuziraramo, ahandi bakajamo bagiye ku kujya no kunwa, kandi zikaba zikikijwe n'ibiti, bizanaga umuyaga mwiza, ndetse n'akuka keza. Kandi izo nzu zikaba zisize amarangi, ndetse zifite n'inkingi, zitumaga ziba zikomeye.

Amazu meza nk'amahoteri aho gacumbikiraga ba mukerarugendo, ndetse n'abandi baje bagagana, aho bahaboneraga ibyo kurya ndetse no kunywa, ndetse bakabona n'aho barara, bakishura amafaranga gafashaga ba nyirazo kwiteza imbere, kandi hakaba hakijijwe ibiti bizanaga akayaga keza ndetse n'indabo.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza imikandara abagabo bambaraga mu mapantaro kugira ngo gatagwa, amasakoshi g'abamama batwaragamo ibintu, amashuka dusasaga ku buriri kugira ngo dusinzire neza, ndetse n'ibitambaro dushiraga mu madirisha ndetse no mu mijyango z'inzu.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gutega imodoka muri gare, ndetse n'abandi baje guhaha mu isoko kugira ngo ibyo badafite babibonere haf, kandi n'abaje mu ngendo bafate imodoka bagere aho bagiye badatinze.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bwacu, aho tuzigurira mu masoko kugira ngo tuzirye maze tumere neza, kandi abazicuruza bakazicururiza ahantu hasakaye kugira ngo imvura itazinyagira, cyangwa se zikavugwa n'izuba ryinshi, maze zikangirika ,maze nabo bakabonamo amafaranga abateza imbere bakoramo ibindi bikorwa by'amajyambere.

Ubucuruzi ni inkingi y'iterambere nko gucururiza mu isoko aho abaturage baturutse mu mihanda itandukanye baza mu isoko baje kugura imyenda ,ibikapu ,inkweto ,imikandara, imitaka ,amasakoshe ,bakaduteza imbere maze tukifashisha ayo mafaranga dukora ibindi bikorwa biduteza imbere kandi hakaba aha ngaha hatwikiriye kugira ngo imvura itagwa ikabyangiriza.

Ubucuruzi ni bwiza iyo bukorewe mu isoko, aho abantu batandukanye bavaga imihanda zose baje mu iryo soko kugura imyenda ziba zirimo ndetse n'inkweto, maze abacuruzi na bo bakabona amafaranga gavuye ku bantu baje kugurira izo myenda mu iryo soko.

Kuboha ni ingirakamaro kuko bituma tubona amafaranga. Nko kuboha ibibuti dushyiramo amatungo nk'inkoko ndetse n'inkwavu, tukabijyana ku isoko tubitwaye ku magare. Kandi bituma amatungo twashyizemo atajya kona cyangwa ngo aducike adusarane. Iyo twanabigurishije tubona amafaranga twifashisha mu bikorwa bindi biduteza imbere.

Uruja n'uruza rw'abantu bazaga mu isoko baje kugura ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa aho isoko ryubakishije amabati ndetse n'ibyuma kugira ngo abakoreragamo bacuruze batekanye ibintu byabo bitanyagigwa cangwa ngo bivirweho n'izuba.

Urujya n'uruza rw'ibintu bizanwaga mu isoko nk'ibitoki, aho bicururizwaga mu isoko ababikeneye bakaza kubihagura ndetse bakaba babicururizaga ahantu hasakaye kandi hatagerwa n'imvura ndetse n'izuba.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucuruza ibikoresho bibajijwe mu biti nk'ameza, aho byifashishwa mu gucururizaho ibintu bitandukanye, ndetse no guterekaho ibintu bitandukanye, aho abagurisha babona amafaranga bifashisha bakora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza imboga rwatsi, inyanya, pavuro tukabicururiza mu isoko tubitwayemo bikoresho biratuma bitangirika, Aho abantu baturutse imihanda itandukanye baza mu isoko, bakabigura maze bakaduha amafaranga, twifashisha turi gukora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza, nk'ubucuruzi bw'ibitenge, aho abatabifite bazaga kubigura, barangiza bakanabidodesha kuko tubaga dufite imashini zidoda, tukazibadodera ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwaga mu budozi tukaba tubifite kugira ngo tubahe ibintu byuzuye bifuzaga.

Mu isoko aho bacururizaga ibicuruzwa bitandukanye harimo utubati ndetse n'intebe yo kwicaraho, aho bakingishaga inzugi zifite irangi ry'umweru ndetse zifite n'ibirahure, kandi mu nzu harimo sima ndetse n'igikuta gisize amarangi, kugira ngo ibyo bacuruzaga bitangirika.

Isambaza ni kimwe mu biribwa bakura mu mazi aho babicuruza abantu babikuye bakaza kubigura aho babicuruza bifashishije umunzani, uje ubicyeneye bakagenda bamupimira ibiro ashaka maze nawe akagenda agateka, akarya maze akahira ubuzima bwiza, n'abazicuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha biteza imbere mu bikorwa byabo bitandukanye.

Ubucuruzi nibwiza nko gucuruza inkweto bituma umuntu abona amafaranga, abantu bakaza kumugurira aho acururiza mu isoko kugira ngo na bo batange amafaranga babone inkweto bifuza, zifite amabara atandukanye nk'iz'umweru, iz'umukara n'iz'imituku, ndetse n'andi moko bifuza kugura.

Gucuruza imbuto ni byiza nko gucuruza imyembe, aho tujaga kuzigura zarahiye neza tukazijya, kuko zibagamo intungamubiri umubiri gwacu gukenera maze tugakora dufite imirire myiza.

Kwihangira umurimo ni byiza, nko gushinga umutaka ku muhanda, ufite n'ibikoresho byawe, usudira ibikoresho bya parasitike byangiritse, nk'ibijerekani, amabase, indobo, ukongera ukabisana, maze ababizanya bakaguha amafaranga wifashisha uri gukora ibindi bikogwa byawe biguteza imbere.

Isoko ricururizwagamo imyenda zitandukanye, ndetse n'inkweto aho harimo imyenda z'abana, ndetse n'iz'abakuru amakabutura, amakariso, ndetse n'inkweto za bodaboda ndetse n'izindi zifunze.

Ubucuruzi ni bwiza nko gucuruza ibitoki mu isoko, bitumaga abantu baza bakagura ibitoki, bakaduha amafaranga natwe tukiteza imbere, nabo bakabona ico kujya kubera ko baba babonye aho bakigurira.

Ubucuruzi ni bwiza, nko gucuruza amagi, amavuta, amabiswi, inzoga zo kunwa. Aho abantu bazaga, baje kuzigura, bicaye ku ntebe za palasitike, izindi zikoze mu biti, ndetse n’ameza go guterekaho bari kunwa. Aho dukoreraga, mu nzu, kugira ngo izuba ritatuvira, canga se imvura ikagwa, ikabyangiza.

Ubucuruzi ni ingirakamaro，nko gucuruza mu masoko yubatse neza，aho abantu baturutse imihanda itandukanye， baza kutugurira ibyo ducuruza，nk'inyanya，ibitunguru， intoryi，karoti， maze bakaduha amafaranga twifashisha mu bindi bikorwa biduteza imbere.

Kugira isoko ryubatse neza kandi risakaye kugira ngo imvura itagwamo ikangiza ibintu ducuruza, aho abantu baturutse imihanda zitandukanye bazaga guguramo ibintu ducuruzaga, maze bakaduteza imbere bakaduha amafaranga twifashishaga twiteza imbere dukora ibindi bikogwa bitandukanye.

Gukora ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza amafi ndetse n'isonze, aho tugomba kubishyira mu mabase ameze neza maze tukayajyana mu isoko. Abayakeneye bakaza bakagura akandi tukayajyana iwacu tukayarya maze tukabonamo intungamubiri zishimishije ndetse abayaguze baduha amafaranga twiyafashishaga mu bindi bikorwa biduteza imbere.

Ibirayi iyo byafumbiwe neza bitanga umusaruro ushimishije ,aho tubijyana mu isoko ababikeneye bakaza kubigura kandi hakaba hubakiye neza kugira ngo bitanyagirwa cyangwa se bikavirwa n'izuba maze abaje kubigura bakabibona mu buryo bworoshye.

Akajekani karimo umutobe bakoreraga mu nganda, aho bawukoraga mu mbuto zitandukanye nk'indimu, ibinyomoro n'amaronji, kugira ngo abantu bajye bagunywa gwarabanjije gukorerwa mu nganda.

Imbuto zitandukanye nk'ibinyomoro, amatunda, amaronji, aho zihurizwaga hamwe zavuye mu biti, kugirango abantu bazigure kuko zivagamo intungamubiri nyinshi, zitungaga umubiri gwacu kugirango tubashe gukura neza.

Umusaruro gw'ibihingwa bitandukanye nk'ibitunguru , tungurusumu , ibigori imiteja , ibirayi , insenda aho bijanwaga mu isoko ahazaga abaguzi benshi kugira ngo ababikeneye babibone hafi kandi tukabijana tubitwaye mu bikoresho biratuma bitangirika.

Mu isoko, hahuriraga abantu benshi baturutse imihanda zitandukanye bazanye nk'imyembe, avoka, ibinyomoro, amatunda, inyanya, karoti, intogi ndetse n'ibindi, kugira ngo baze babigurishe maze abatabifite baje kubirya, kandi hakaba hanatwikiriye kugira ngo imvura itagwa ikabyangiza cyangwa se izuba rikava rikabyica.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza amabiswi batwaraga mu bikarito ndetse n'imitobe zibaga mu dukombe aho bitumaga abazikeneye bazaga kuzigura aho bazicuruzaga maze bakazinwa zikabagirira akamaro na nyiri kuzicuruza akabona amafaranga agatumaga yiteza imbere.